Abasore babiri bafite terefone, umwe yambaye umupira w'umukara, undi yambaye umupira w'ubururu, inyuma yabo hari igikuta cy'ibara ry'umutuku.

Icyumba kirimo urumuri gisigaranye ry'umweru, kiriho icyapa cya airtel kiri mu ibara ry'umutuku, imbere yacyo hari abakozi benshi ba airtel higanjemo abambaye imipira iririmo ibara ry'umutuku, umwe muri bo yambaye inkweto zisa n'ubururu.

Imboga nini yubakishijwe amapuve irimo umutaka wa motini uri mu ibara ry'umuhondo ndetse wicawemo n'umuntu, imbere gato hari ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, isizwe irangi ry'umweru ndetse iparitsemo moto.

Umugore ukorera ishami ry'itumanaho rya MTN, yambaye ijire iri mu ibara ry'umuhondo, imbere ye hari ikiganza gifashe urupapuro rurimo ubuso bw'umuhondo ndetse rwanditseho amagambo arimo ibara ry'umukara, agaragaza ibiciro bishya by'umukiriya.

Akazu gato ka Airtel karimo ibara ry'umutuku kanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, karimo ibikoresho bitandukanye, inyuma yako haparitse imodoka nini ndetse imbere yayo hari inzu nziza isizwe irangi ry'umweru.

Icyapa kinini kigizwe n'amabara atandukanye yiganjemo iry'umuhondo, imbere hari abantu bane, batatu muri bo bambaye impuzankano igizwe n'utujire turi mu ibara ry'umukara, umwe muri bo yambaye ijire ya MTN igizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse afite icyapa mu ntoki.

Ni inzu isakajwe amategura imbere yayo hari umugabo yambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, ndetse imbere ye hari moto inyuma y'iyo nzu hari urutoki.

Umugabo w'igikara wambaye agapira k'umuhondo ka MTN, ari imbere y'abanyamakuru bamutunze mikoro, barimo baramubaza ku birebana n'umuyoboro w'itumanaho wa MTN.

Koperative yishyize hamwe yo guhinga umuceri, wo mu gace ka kazo, bashyize icyapa iruhande rw'aho bakorera, kiri mu mabara y'umweru ndetse amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Icyumba kiza kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo. Harimo umuzungu wambaye ishati y'umweru karuvati y'umutuku ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari umugore w'umuzungu wambaye ikote ndetse n'ipantaro biri mu ibara ry'ubururu.

Inzu nini yanditseho amagambo y'Icyongereza ariko ni koperative ishinzwe kuzigamira abaturage, hari abantu benshi baje gushaka serivisi.

Ahantu hateraniye imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abagore, hari ibikoresho bitandukanye, higanjemo amabase, arimo umusaruro uturuka ku buhinzi, ndetse hari umugore wunamye, wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu.

Ni umurima uhinzemo inanasi, ubuhinzi bw'inanasi ni bwiza, buteza imbere abantu babukora iyo bajyanye umusaruro wabo ku isoko biteza imbere.

Ibigori iyo bisaruwe bijyanwa ahabugenewe bigahunikwa. Ibi bibifasha kugira ngo bidapfa cyangwa se ngo byangirike niyo mpamvu bijyanwa ku ikusanyirizo.

Inyubako y'ubucuruzi ikorerwamo amabanki na koperative, igeretse kabiri ku marembo yayo, hari icyapa cyanditseho inyuguti eshatu arizo: R.C, na A.

Icyumba kirimo intebe n'ameza bikozwe mu biti n'imitako ku meza. Harimo televiziyo n'ibishushanyo bitandukanye, igikuta gifite ibara ry'umuhondo.

Skol ni ikinyobwa gisindisha cyangwa se gisembuye gikorwa n'uruganda rwa Skol, aha ni mu kabari ahatangirwa serivisi zo kunywa.

Umuhanda munini w'amabuye iruhande rwawo hari inyubako nyinshi zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi, imwe muri zo irageretse ifite amadirishya manini isakajwe amabati arimo ibara ry'umukara, ndetse ku rundi ruhande hari inzu nziza isakajwe amabati, imbere yayo haparitse imodoka.

Umuti witwa Cock brand wifashishwa mu kwirukana imibu, uba mu mabutike agiye atandukanye ku mafaranga make cyane.

Butiki irimo ibicuruzwa bitandukanye birimo igikarito. Aha hatangirwa serivisi zitandukanye zijyanye no gutanga ibicuruzwa umukiriya akeneye byose.

Iduka rinini ricururizwamo ibikoresho bitandukanye ririmo umugore w'umwirabura udafite umusatsi mwinshi, inyuma ye hari ibintu bitandukanye higanjemo ibyo kurya, hari umunzani ukozwe mu cyuma, imbere yaho hari amabuye yifashishwa mu gupima ibiro ari mu ibara ry'umukara.

Iduka ricuruza imyambaro ndetse n'ibikapu, imanitse ahantu heza, aha bacururiza ku biciro byo hasi ntabwo uhendwa, ni byiza kubagana.

Icyumba cy'ubucuruzi, kirimo akagare k'abana, imbabura, n'imifuka irimo ibicuruzwa, gucuruza ni byizayiza, biteza abaturage imbere bakahira abana amashuri.

Icyumba cy'ubudozi kirimo imyenda idozwe mu buryo butandukanye, inyuma hari igikuta cy'ibara ry'umuhondo, ubudodo ni bwiza buteza abantu imbere mu buryo bwihuse kandi kwihangira imirimo ni byiza.

Inzu y'ubucuruzi, imbere hari imifuka, hari umuntu, hari kandagira ukarabe ifite ibara ry'umweru, hari moto ku ruhande rwayo ndetse n'igare.

iInyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Isizwe irangi ry'umweru ndetse iriho icyapa gishanyijeho ibikoresho bitandukanye. Igizwe n'imiryango icururizwamo ibikoresho bitandukanye. Imbere yayo hari imbuga nini hubakishijwe amapave.

Inzu icuruzwamo imyenda y'abana, umumama yambaye ikoti ari gucuruza imyenda itandukanye y'abana, ubucuruzi ni bwiza butuma abantu babukora biteza imbere, bagateza imbere igihugu n'imiryango yabo muri rusange.

Imbuto zigiye zitandukanye, zirambitse hasi, abantu barimo barazitegereza, biragaragara ko ari muri butike aho bashaka kuzigurisha cyangwa se kuzigura.

Inzu y'ubucuruzi, irimo umwana w'umukobwa n'akagare ka abana, harimo ibicuruzwa bitandukanye, birimo amagi, karoti, inoryi n'amavuta yo guteta n'ibindi byinshi.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi kicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri, higanjemo abambaye amakabutura arimo ibara ry'ubururu bwijimye, imbere yabo hari umugabo ufashe indangururamajwi, wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umweru.

Ikibuga kirimo ita giteraniyemo abantu benshi, higanjemo abambaye amakanzu ari mu ibara ry'umweru, imbere yabo hari imeza ikozwe mu mbaho, iriho igitambaro ndetse n'inkongoro zifashishwa mu migenzo ya kiliziya. Inyuma gato hari umugabo wambaye ishati irimo ibara ry'ubururu, ndetse n'ipantaro irimo ibara ry'umukara. Inyuma y'aho gato hari imashini yifashishwa mu gukora umuhanda.

Abantu benshi bambaye amabaji mu majosi bahagaze imbere y'urusengero runini ndetse no munsi y'igiti k'imikindo biragaragara ko bari baje mu biganiro cyangwa se amahugurwa agiye atandukanye.

Inzu y'urusengero irimo abantu benshi higanjemo abapfukamye, harimo umugore upfukamye, ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye umukenyero, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikositimu irimo ibara ry'ubururu, ndetse iruhande gato hari umugabo wambaye ikositimu iri mu ibara ry'umukara.

Mu rusengero ahatangirwa ibitambo hari ahantu hejuru aho abatambyi bicara, aho bita ku ruhimbi cyangwa se ku gatuti.

Inama y'abantu bagiye batandukanye, baje mu rusengero barimo barumva ibyo umwigisha arimo kubabwira. harimo abagore ndetse n'abagabo ndetse n'abakobwa.

Icyumba cyo kuraramo gifite imisego ibiri y'umweru n'amashuka y'umweru, inyuma hari igikuta mu ibara ry'umukara kiriho amatara abiri, hejuru gifite ibara ry'umweru.

Inzu nini ya hoteli igeretse. Isize irangi ry'umuhondo ndetse igizwe n'amadirishya manini afite ibirahure. Irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse harimo intebe nyinshi, higanjemo iziri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Icyumba kiri mu ibara ry'ubururu, kirimo igitanda kiriho amashuka ari mu ibara ry'umweru, inyuma yacyo hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora isuku, harimo kandi itara rimurika ndetse n'ibishushanyo bitandukanye.

Saro irimo ibikoresho byiza bigiye bitandukanye birimo intebe ndetse n'ameza, iyi saro kandi ishashemo amakaro asa neza y'umweru ndetse n'amarido akeye.

Icyumba cyo kuryamamo kirimo: igitanda, intebe, ameza, amarido. Hejuru gifite ibara ry'umweru. Ku mpande naho gifite ibara ry'umweru, gifite n'idirishya.

Icyumba cy'ubwogero ,aha ni muri hotel ,harimo toilet ndetse na dushe .Hari n'aho bakarabira, mbese aha ni aho umuntu yisukurira.

Inyubako yubatse ahantu hatuje, hari jaride nziza y'ibyatsi bisa neza, imbere yayo hari umuhanda wa kaburimbo uhahagize, inyubako ni hoteri, irageretse kandi isakajwe amabati meza.

Pisine iriho intebe inyuma hari jaride ndetse n'inzu n'amapoto ariho amatara yaka mu gihe hari umwijima.

Icyumba kiza cya hoteli kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru kandi kirimo itara rimurika kirimo igikoresho kifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro kiri mu ibara ry'umutuku ndetse hejuru yacyo hari ibikoresho bitandukanye.

Inyubako nziza isukuye ikeye kandi yubatse mu buryo butangaje bw'ubugeni iriho amayesikariye azamuka hejuru, hariyo intebe ndetse n'amatara meza amurika biragaragara ko haberayo ibirori bitandukanye.

Icyumba cyo kuryamamo, kirimo uburiri, intebe n'ameza, amarido, idirishya n'umukeka, hejuru ifite ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kuryamamo kirimo igitanda na matera, amashuka y'umweru, imisego y'umweru, igikuta cy'umweru, harimo akabati n'intebe no hejuru hasa n'umweru.

Ibikoresho birimo imisego iteretse ku ntebe, imbere yayo hari akameza gateretseho ikirahuri kirimo ji ndetse n'utundi dukoresho.

Icyumba kiza gisize irangi ry'umuhondo, kirimo igitanda gikozwe mu mbaho kiriho matela nini ndetse n'imisego igerekeranye iriri mu ibara ry'umweru, hirya gato hari agakoresho gakozwe mu mbaho kifashishwa mu kubika ibintu bitandukanye.

Abantu bicaye imbere y'ameza manini, imbere yabo hateretse ibirahuri birimo inzoga ndetse n'ibikombe, barimo baraganira kuri bisinesi zitandukanye, biragaragara ko bicaye muri hoteri.

Inzu nziza isizwe irangi ry'umuhondo, iteraniyemo abantu benshi batandukanye, harimo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yambaye amarinette, ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro. Hirya ye hari umugabo wambaye imyenda irimo ibara ry'umweru.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye rigizwe n'amazu maremare asize irangi ry'umuhondo ndetse imbere yayo hari umugabo wambaye ijiri y'umweru, umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi afite indobo irimo amagi mu ntoki.

Umumama uri gubucuruzi imbuto zitandukanye zirimo: amatunda, amaronje, imyembe, inanasi, ibinyomoro ndetse na pome.

Udufura turimo umuceri n'igikombe kirimo umuceri, imbere yabo hari amavuta y'amasukano. Ubucuruzi ni bwiza buteza abaturage imbere, iyo bacuruje ibintu bitandukanye, biteza imbere mu buryo bwiza.

Ahantu hacururizwa imyenda, hari abantu batandukanye ndetse n'imyenda itandukanye imanitse, hari umugore wambaye ingofero igizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'umutuko ndetse yambaye ikanzu ikozwe mu gitenge, imbere ye hicaye umukobwa wambaye agapira kari mu ibara ry'umutuku.

Hoteli zirimo ibikoresho bitandukanye ndetse zubatswe mu buryo bwa gihanga, hatangirwamo serivisi zitandukanye harimo gutanga amafunguro ya saa sita ndetse n'aya nijoro.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga moto n'igare, iruhande rwabo hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'inzu ifite ibara ry'ubururu.

Umujyi munini ugizwe n'amazu ageretse, urimo umuhanda munini w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye, hari ikinyabiziga kirimo ibara ry'umutuku, imbere yacyo hari icyapa kinini kiriho umupolisi wambaye impuzankano iririmo ibara ry'umukara.

Umuhanda munini w'umukara uririmo igare ritwawe n'umusore wambaye ishati y',umutuku ipantaro y'ikoboyi inyuma ye hicaye umugore, ku ruhande gato hari ipoto rinini ryiyifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, hasi yaryo hari indabo ziri mu ibara ry'umuhondo, hirya gato hari inzu nziza isizwe irangi ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo umu motari utwaye moto iri mu ibara ry'umutuku ndetse yambaye kasike irimo ibara ry'icyatsi, yambaye jire, ikoti ndetse n'ipantaro y'ikobo, inyuma ye hari umugore wambaye kasike iri mu ibara ry'icyatsi, ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Umumotari uhetse umugenzi ari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwabo hakurya hari inzu zicururizwamo ndetse hejuru yazo hari insinga zitwara imiriro y'amashanyarazi ziyajyana mu baturage.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitwara abagenzi, abatwara abagenzi bambaye amajire y'umutuku n'ubururu, bambaye n'ingofero zibarinda gukomereka ku mutwe igihe bakoze impanuka, inyuma yabo hari inzu ifite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga gitwara abagenzi, iruhande rwawo hari amazu y'ubucuruzi ndetse n'amapoto akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, umwuga wo gutwara abagenzi ni mwiza uteza imbere abawukora.

Umuhanda munini w'umukara urimo moto itwawe n'umugabo wambaye kasike iri mu ibara ry'umutuku ndetse inyuma ye hari umugore wambaye ikasike y'umukara, iruhande hari icyapa kirimo ubuso bw'ubururu ndetse imbere yacyo hari ipoto ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage.

Mu muhanda nyabagendwa harimo ibinyabiziga bitwara abagenzi, hari umumotari wambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kaki, iruhande rwe hari umugenzi uri kugenda n'amaguru.

Umujyi urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abantu, harimo umuhanda w'umukara, urimo ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo amamota atwara abantu. Hari umumotari wambaye ijire irimo ibara ry'umutuku, ari gukarabya umugenzi wambaye agapfukamunwa karimo ibara ry'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitwara abagenzi, gutwara abagenzi ni byiza, bituma abantu bakora ako kazi bi biteza imbere, bakanateza imbere igihugu muri rusange n'imiryango yabo.